Icyapa cyamanitswe hirya y'umuhanda, kirimo amabara y'umutuku ndetse cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru mu ndimi z'amahanga, hakaba hariho umugore wambaye umwambaro w'umutuku ufite imisatsi miremire.

Agapapuro kuko kari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu kari kwerekana umugabo wagize ikibazo wazamuye ipantaro bari kuzirikiraho agatambaro k'umweru bashyira ku muntu wagize ikibazo cyangwa wavunitse, ako gapapuro kaba kandikishijwe amabara y'amagambo ari mu mabara y'ubururu ndetse kaba hariho ikirango cya radiyante.

Umukobwa wicaye ndetse ari kuyobora ikinyabiziga ufite umusatsi mwinshi ari guseka yambaye ishati y'ubururu ndetse hariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru ndetse nicyatsi.

Icyemezo cy'Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Reveniyu Osoriti cyerekana y'uko barangije kumenyekanisha umusoro. Ikigo cya Kigali Hadura Podi Limitedi kikaba cyarangije kumenyekanisha umusoro w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu.

Umukobwa washyize amadarubindi hejuru mu misatsi, ari kwitaba telefone akoresheje ukuboko kw'iburyo. Ari guseka yambaye umwambaro w'umweru. Ari kugenda mu muhanda kandi akurura igikapu cye kiri mu ibara ry'ubururu. Ku ruhande rwe hakaba handitsweho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, yanditswe mu kinyarwanda.

umugabo wambaye umupira ndetse n'igisarubiti cyiganjemo amaba y'ubururu ndetse arimo n'amabara y'umukara akaba ahagaze ari guseka afite imisatsi mikeya ahagaze iruhande rw'amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru ndetse n'andi ari mu ibara ry'ubururu ari amagambo yanditswe mu kinyarwanda ndetse akaba ari amagambo yamamaza cyangwa se amenyekanisha abaturarwanda gukoresha ubwishingizi bwa buritamu.

Umukobwa w'imisatsi miremire uri guseka wambaye agapira k'ubururu n'umwambaro imbere yako ushinzwe kumurinda kwandura acigatiye imashini mu kiganza cy'iburyo ibaza, kandi ku ruhande hari amagambo yanditswe n'ubururu, ndetse n'umweru ari kwamamaza ubwishingizi bwa buritamu.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara ushushanyijemo imirongo y'umweru irombereje, hakaba harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye bigana mu nzira cyangwa se mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande rw'umuhanda hakaba hamanitse icyapa gishinze mu byatsi cyangwa se mu biti hakaba hariho abazungu babiri umugore ndetse n'umugabo, ku ruhande handitswe amagambo ari mu kirimi cy'amahanga mu mabara y'umweru.

Icyapa kinini kiri mu muhanda gishushanyijeho umugabo w'umwirabura ufite imisatsi mike, nundi mwana uhetse igikapu cy'umweru wambaye umupira w'umweru, ufite umusatsi mukeya. Bari ku ishusho ya Oranje kuruhande rwabo, hari amagambo yandikishijwe ubururu ari mu kirimi cy’amahanga cy’icyongereza.

Urupapuro cyangwa se ishusho iri mu ibara ry'umweru cyangwa se ryera, ririho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'andi ari mu ibara ry'ubururu. Akaba ariho udushusho tw'abantu, umwe muri bo akaba afite ibikapu, undi akaba ari umugore ufite imisatsi miremire ufite agatebo karimo ibyo amaze guhaha. Akaba ari agapapuro kamamaza cyangwa se kamenyekanisha ubwishingizi bwa radiyanti mu Rwanda.

Icyapa kinini gikunze gushyirwa ku muhanda gihagaze ahari ibiti byinshi birebire, kikaba ari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru gishushanyijeho umugore ufite imisatsi miremire w'umuzungu wambaye umwenda w'umukara, akaba ari icyapa cyanditswe mu magambo y'umweru yo mu kirimi cy'amahanga ndetse n'imibare hasi yanditswe mu ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye umupira umufashe w'amoboko magufi w'ubururu, ufite imisatsi mikeya n'ubwanwa bukeya kandi ari guseka, ku kuboko kw'ibumoso kwe akaba yambaye isaha iri mu ibara ry'umukara. Acigatiye cyangwa se afite agashushanyo cyangwa se agakoresho kiganjemo ibara ry'ubururu ndetse arimo n'akandi kabara k'umweru, ku ruhande ye hakaba handitswe amagambo ari mu kinyarwanda cyangwa se mu kirimi cy'ikinyarwanda yanditswe mu ibara ry'umweru.

Agapapuro kari mu ibara ry'ubururu kandiditsweho amagambo y'umweru n'uturongo tw'icyatsi twandikishijwe mu kirimi cy'amahanga k'icyongereza, hariho ikirango cya Afrika ndetse kari kwamamaza banki yitwa eko banki.

Agapapuro cyangwa se agashusho karimo amabara menshi atandukanye yiganjemo ay'umweru, kandiditsweho inyuguti ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'utundi dushushanyo turi mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, hakaba hariho agashushanyo k'umugabo uri kugenda ushushanyije mu ishusho ry'icyatsi.

Ikiganza cy'umuntu gicigatiye terefone mu ntoki irimo ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo yandikishijwe mu mweru, yanditswe mu kirimi cy'amahanga k'icyongereza munsi hari udushushanyo tw'amazu.

Ahakorerwa ahatunganyirizwa ndetse n'ahagurishirizwa imyenda yiganjemo iy'abagore ikozwe mu gitambaro cy'igitenge ikaba ikozwe mu buryo bw'amakanzu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye biri mu mabara agiye atandukanye hakaba hari miriwari abantu bashobora kwireberamo ndetse ku meza y'urubaho hakaba hari imitako myinshi y'abagore n'ibikomo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ahabikwa ahatunganyirizwa cyangwa se ahagurishirizwa imyambaro cyangwa udutebo ndetse n'imitako n'ibindi byinshi bitandukanye, bidozwe cyangwa se bikozwe mu gitenge, cyangwa mu bindi byinshi bigize umuco nyarwanda.

Ahamanitse imyambaro y'amoko menshi atandukanye, ndetse iri mu mabara menshi atandukanye, ikaba imanitse ahagurishirizwa imyenda, yiganjemo iy'abagabo, ikaba irimo imipira yo gukina, iyo kurimba y'amakora, ndetse n'indi myinshi yo mu bwoko butandukanye.

Ahabitswe cyangwa se ahateretswe imyenda yo mu mabara menshi atandukanye kandi igiye itandukanye, higanjemo imyenda y'amakanzu y'abagore, amapantaro y'abagabo ndetse n'ibitenge, ku ruhande hakaba hacururizwa cyangwa se hashyizwe utundi dukoresho tw'imitako ndetse n'utwo kwitaka ku mubiri, nk'amaherena ndetse n'ibindi byinshi.

Umugore w'imisatsi miremire wambaye ishati y'umweru imirongo y'umukara imanuka, ufite isakoshi mu kuboko kw'iburyo ndetse n'isaha, akaba afatanye mu kiganza n'umugabo ufite umusatsi mukeya wambaye ishati y'umweru irimo imirongo y'umukara imanuka, bari ahantu imbere y'iduka ricuruzwamo ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho nka korogate.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Inzu nini y'ubwishingizi bwa u a pa ku ruhande hari amasikariye maremare, cyane inzu nini umuntu ugiye kwinjiramo bisa nkaho ikorwa ubwishingizi.

Umuhungu cyangwa se umugabo wambaye umupira w'umukara isaha ku kuboko kw'ibumoso, ndetse n'ipantaro. Afite imisatsi myinshi ahagaze inyuma y'ameza akozwe n'ibirahure. Mo imbere mu meza harimo amasaha, amatelefone, ndetse na mudasobwa. Inyuma ye hari ibindi bikoresho birimo nk'ibikapu by'abagore, inkweto ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ahakorwa cyangwa se ahatunganyirizwa bimwe mu bikoresho cyangwa se mu myambaro yubahiriza umuco nyarwanda.

Imodoka ebyiri zitandukanye zifite n'amabara atandukanye zashyizwe ahantu hamwe ziri ku mpamvu kugira ngo bazigurishe, imwe muri zo bakaba bayishyize imbere bayicanye amatara y'imbere kandi iri mu ibara ry'umutuku.

Ibinyabiziga bihagaze ku murongo umwe, bitatu muri byo akaba ari ibinyabiziga biri mu ubwoko bw'amavatiri bisize amabara y'umukara, hirya yabyo hakaba hari ikindi kinyabiziga cyo mu bwoko bw'ikamyo gisize amabara yiganjemo ay'umweru, bikaba bihagaze nta purake cyangwa se nimero ibiranga bifite bisa nkaho biri ku isoko cyangwa se biri kugurishwa.

Kwasiteri cyangwa se ibinyabiziga biri mu ibara ry'umweru bihagaze cyangwa se biparitse ahantu hatwikirijwe n'amabati, bikaba byanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'utundi tw'icyatsi dukeya, akaba ari amagambo yanditswe Volukano, akaba ari ikigo gishinzwe gutanga imodoka kugira ngo abagenzi cyangwa se abantu bashobore kuva ahantu bajya ahandi.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kugura amainite, kohereza amafaranga no kuyakira mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri.

Abagabo babiri, bicaye barebana, umwe muri bo yambaye ikote ry'umukara rya kositimu ishati y'umweru, amadarubindi ndetse n'agapfukamunwa karirimo ibara ry'umukara, akaba yicaye imbere y'undi mugabo wunamye wambaye ishati y'umweru irimo imirongo'umukara imanuka, akaba na we yambaye agapfukamunwa afite imisatsi mikeya bakaba bagabanyijwemo n'ikirahure kiriho akapa karirimo ibara ry'umuhondo.

Kimwe mu biceri bikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda hariho ikirango cy'ikigori amagambo yanditsweho ni banki nkuru y'u Rwanda byakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe, igiceri ni icya mirongo itanu, kiri ahantu hari amabara y'umweru n'umukara.

Aha tukaba turi kuhabona umunara na senyege; umunara usizwe ibara ry'umutuku n'umweru, hasi y'aho hakaba hari icyapa cya eyateri.

Umugore w'imisatsi miremire, wambaye amadarubindi ndetse n'agapfukamuwa k'umukara, wambaye umupira urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, wambaye isaha ku kuboko kw'iburyo, ari gutanga amafaranga ayanyujije munsi y'ikirahure, ku muhungu wambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'umutuku w'ikora ry'umweru. Mo imbere aho umugore ahagaze, harimo mudasobwa ndetse n'izindi mpapuro.

Inote y'ibihumbi bitanu yakoreshwaga kera mu gihugu cy'Urwanda, uruhande rumwe hari hariho inyoni, abantu bari kubyina, abagore ndetse n'abagabo bafite imigara, icumu ndetse n'ingabo, kurundi ruhande hari ibiti, ibyatsi ndetse n'inyubako.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi n'umupira w'umutuku ku rutugu rw'ibumoso, ahagaze imbere y'undi wambaye umupira w'ubururu, karuvati ndetse n'ishati n'amadarubindi, mu ijosi hari ikarita ku ruhande rwabo hari inoti y'igihumbi ndetse n'inoti ya magana atanu bikoreshwa gihugu cy'u Rwanda.

Agatebo kateretswe hejuru y'akameza cyangwa se y'urubaho, kakaba karimo ibintu nk'ishashi cyangwa se udupapuro duhanagura ahari umwanda cyangwa se duhanagura ikintu cyanduye.

Urubiko cyangwa se ahacururizwa amata yo mu ruganda yo mu ikarito mu ducupa ndetse no mu tujerekani, hari amata mu bwoko butandukanye nk'ikivuguto ndetse n'inshyushyu, amata ari mu mabara y'ubururu umuhondo ndetse n'andi afite amabarage atandukanye bitewe n'ubwoko bwayo.

Akabati gakozwe mu mbaho gasize amabara y'umweru ndetse n'ay'ubururu, habitswemo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo amazi, imitobe igiye itandukanye ndetse n'ibindi byinshi, ibitse itondetse ku mirongo igiye itandukanye

Ahakorwa ahatunganyirizwa cyangwa se ahacururizwa ibiribwa bikozwe mu mpande eshatu benshi bakunze kubyita ibiraha cyangwa se amasambusa, bikaba ari ibiribwa bifite agafuniko gakorwa mu mavuta no mu ifarine ndetse mu imbere hakaba harimo inyama cyangwa se ibirayi.

Intoki z'umuntu zicigatiye isahani iriho amandazi menshi cyane, asa nkaho ari kugurishwa, ikaba iteretse kumeza irimo amabara menshi atandukanye, nk'umweru umukara, umuhondo ndetse n'anyandidi menshi atandukanye.

Akajerekani kari mu iba ry'umweru harimo isabune y'amazi cyangwa se mu kirimi cy'amahanga bakunze kwita savo rikide ikaba itereretse hejuru y'ameza y'urubaho imbere yayo hakaba hari abantu cyangwa se umuntu wambaye imyambaro y'ubururu isa hejuru no hasi.

Inzu isize amarangi y'uburu n'umweru isakajwe amabati y'ubururu ndetse n'imiryango ikaba isize amarangi y'ubururu, hakorerwamo igikorwa cyo kugurishamo amata ndetse imbere hakaba hari kandagira ukarabe mbere y'uko w'injira.

Ahatunganyirizwa ndetse n'ahagurishirizwa amata ari mu bwoko bw'ikivuguto cyangwa se inshyushyu, hakaba hari icyuma gishinzwe kuyatunganya kandi hakaba hari n'akabati karimo utujerekani tw'amata yamaze gutunganywa kugira ngo abaguzi cyangwa se abakiliya, niba bayifuza ku buryo bwihutirwa bahita bayatwara.

Agapapuro kirabura gashushanyijeho telefone ku ruhande irimo utumenyetso tugiye dutandukanye, agapapuro kirabura kakaba kandiditseho inyuguti z'umweru ndetse n'imibare y'icyatsi kibisi, bikaba byandikishije mu kirimi cy'amahanga k'icyongereza.

Umugabo wambaye umupira ndetse n'ingofero, acigatiye ikayi ndetse na telefone, akaba ari kumwe n'umugore ufite imisatsi myinshi w'amadarubindi, ufite telefone nawe ndetse n'igikarito.

Intoki z'umukobwa ufite inzara zisize ibara ry'umutuku wambaye umupira wumuhondo ufite umusatsi muremure, acigatiye mu biganza byombi telefone ifite ibara ry'iroza, akaba ari ku gapapuro kanditseho amagambo y'umweru ndetse n'imibare, ku ruhande hasi hakaba hari akagaragaza momo peyi cyangwa se uburyo bwo kwishyura ukoresheje mobayiro mani.

Umuntu w'intoki zirabura ufashe telefone, yiganjemo amabara y'umweru ndetse irimo n'andi atandukanye y'ubururu, ndetse n'ay'umuhondo. Hakaba handitswemo amagambo yiganjemo ayo mu ibara ry'umukara. Imbere ye hakaba hari igitambaro cyangwa se ishusho cyangwa se icyapa, kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'irindi ry'umuhondo. Hasi hakaba hari amagambo yanditswe mu kirimi cy'amahanga, yanditswemo n'ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru.

Agapapuro cyangwag se agashusho k'umweru cyangwa se kera kanditsweho imibare cyangwa se inyuguti ziganjemo iz'amabara y'umukara ndetse n'andi mu ibara ry'ubururu, ruguru yako hakaba ari ibendera ry'u Rwanda.

Agashusho cyangwag se agapapuro kari mu mabara yiganjemo y'umweru kerekanaho telefoni ebyiri zitandukanye, imwe muri telefone ikaba iriho imibare yanditswe mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'ibendera rya Nigeria iyindi telefone ikaba yanditsweho amagambo ndetse n'imibare yiganjemo amabara y'umukara.

Umugore ufite imisatsi miremire, wambaye umupira cyangwa se umwambaro w'umuhondo, akaba afite inzara zisize ibara ry'umutuku, afite telefone mu ntoki ze, imbere ye cyangwa se mu gashusho, hakaba handitswe amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse hasi hakaba hari akarango kari mu ibara ry'ubururu, ndetse n'umuhondo, kerekana ikirango cya momo, cyangwa se cya MTN.

Umugore wambaye ingutiya ndetse n'umupira hejuru w'amaboko maremare w'umukara ufite agasakoshi cyangwa se agakapu ku kuboko kw'ibumoso akaba ahagaze imbere y'intebe k'undi mugore cyangwa se umukobwa ufite imisatsi myinshi wicaye inyuma y'kirahure cyangwa se ameza ari mu rubaho, akaba ari kumwaka cyangwa se undi ari kumuha serivise zitandukanye.

Agapapuro cyangwa se fagitire igaragarira muri mudasobwa, yanditseho amagambo ndetse n'imibare y'imikara hejuru y'ikirango cy'u Rwanda ndetse ku ruhande yacyo hari ikirango cya Rwanda reveni otoriti, ikigo gishinzwe kugenzura ndetse no kwakira imisoro mu Rwanda.

Agapapuro cyangwa se agashusho kari kugaragarira muri mudasobwa kari mu ibara ry'umweru cyangwa se ryera, kanditsweho amagambo ndetse n'imibare biri mu ibara ry'umukara, hejuru hakaba hari akarango kari mu mabara y'umutuku kanditsweho amagambo y'umweru harimo inyuguti ya GTC ndetse na O.

Fagitire y'ikigo cy'u Rwanda cyitwa Rwanda reveni otoriti, imwe muri fagitire bakoresha...

Agapapuro ka fagitire k'ikigo cya Rwanda reveni otoriti gishinzwe kugenzura ndetse n'ibindi bikorwa byose by'imisoro mu gihugu cy'u Rwanda hejuru yako hakaba hari ikirangantego cy'uRwanda ndetse kakaba kanditse mu magambo y'umukara.

Umuntu wambaye umupira wa oranje wicaye mu ntebe ya purasitike wegamye, inyuma ye hari utubati tubiri tubikwamo, kamwe gasa umweru akandi gasa kacyi harimo ibikoresho bitandukanye.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo arimo ibara ry'umukara arimo atsindagiye ndetse n'adatsindagiye, akaba arushushanyijeho kandi n'ikirango cya repubulika y'u Rwanda, kirimo sinyatire ndetse kiri mu ibara ry'umutuku.

Agapapuro kera cyangwa se k'umweru kanditsweho amagambo cyangwa se imibare mu ibara ry'umukara, hejuru yako hari ikirangantego cy'u Rwanda, hirya yaaho hari ikirangantego cya Rwanda Reveni Otoriti ikigo gishinzwe kugenzura ndetse no kwakira imisoro mu gihugu cy'u Rwanda.

Urupapuro rwera cyangwa se rw'ibara ry'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara atsindagiye ndetse n'andi adatsindagiye, hejuru ku rupapuro hari ikirango cya banki ya Kigali ndetse amagambo akaba yanditswe mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza.

Agapapuro k'umweru cyangwa se fagitire yandikishijwe imibare cyangwa se amagambo ari mu ibara ry'umukara, hejuru y'ikirango cya repubulika y'Urwanda, ku ruhande hari ikirango cya Rwanda reveni otoriti, ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe kugenzura ibikorwa byose by'imisoro.

Agapapuro cyangwa se fagitire y'ibara ry'umweru igaragarira muri mudasobwa yandikishijwe n'amagambo ndetse n'imibare ari mu ibara ry'umukara, ruguru yarwo hari ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse ku rundi ruhande hari ikirango cya Rwanda revenu Otoriti, ikigo gishinzwe kugenzura ndetse kinakurikirana ibikorwa byose bijyanye n'imisoro mu gihugu cy'u Rwanda.

Agapapuro cyangwa se fagitire iri kugaragarira muri mudasobwa iri mu ibara ry'umweru yanditsweho amagambo ndetse n'imibare ari mu ibara ry'umukara, hejuru hakaba hariho ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse urundi ruhande hakaba hari ikirango cya Rwanda reveni otoriti, ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe ibikorwa byose bijyanye n'imisoro.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Ibiganza by'abagabo babiri batandukanye, byose bifashe ku mafaranga, amafaranga ari mu bwoko bw'inote harimo iya makumyabiri ndetse n'izindi zitari kugaragaza umubare, akaba ari inote zidakoreshwa mu Rwanda, zikoreshwa mu bihugu by'amahanga ziri mu mabara atandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara wicaye ku gatebe gakozwe mu rubaho kagufi, yicaye iruhande rw'icyapa kiri mu mabara y'umweru, icyatsi ndetse n'ubururuba, akba ari icyapa cyerekana igura n'igurisha ry'amafaranga y'ibihugu by'amahanga.

Ahabera igura cyangwa se igurisha ndetse n'iguranwa ry'amafaranga agiye atandukanye nk'amadolari amanyarwanda ndetse n'andi akoreshwa mu bihugu byinshi by'amahanga bigiye bitandukanye akaba ari umuntu uri kuyacagura amafaranga ari mu bwoko bw'inoti kandi akaba ari kuyashyira cyangwa se ari gukora igikorwa cyo gucagura ndetse no kubara amafaranga ku meza y'urubahobo.

Umugabo ufite amafaranga menshi ari mu bwoko bw'inote mu ntoki ze, hakaba hari n'andi amuteretse imbere ari mu mibare y'ijana ndetse amwe muri yo akaba akoreshwa mu bihugu by'amahanga nka Amerika. Akaba ashushanyijeho abagabo umwe muri bo ufite imisatsi miremire cyangwa se amafaranga bita amadolari.

Abantu babiri bari kugurana amafaranga yo mu buryo bw'inote, umwe aratanga amafaranga y'inote z'ijana z'amadorari, undi agatanga amafaranga y'inote yo muri nijeriya.

Icyuma cyangwa se imashini isize amabara y'umweru ishinzwe kubara amafaranga ari mu buryo bw'inote, izo note ziri kunyuzwamo kandi zikaba ari ininote z'ijana, iz'amadolari cyangwa se amafaranga akoreshwa mu bihugu by'amahanga cyane cyane Amerika, ku ruhande hakaba hari undi muntu uri gukoresha telefone abara amafaranga ndetse ku ruhande hakaba hari na mudasobwa.

Inzu nshyashya igurishwa mu mujyi wa kigali mu gace ka kanombe ku mafaranga miliyoni mirongo icyenda n'imwe z'amanyarwanda, iyo nzu iri mu bwoko bwa cadasiteri isakajwe amabati ya shokora ndetse inzugi zayo zisa umukara ikaba iteye irangi ry'icyatsi, imbere y'iyo nzu hubatswe amapave.

Umugabo ucigatiye inoti nyinshi zitandukanye, imwe mu noti afite ni inoti ya magana atanu yakozwe muri banki y'Ubuhinde, umugabo ni umwirabura yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse n'impeta ku kuboko kw'iburyo, yambaye ishati

Abagabo b'abazungu umwe muri bo akaba yambaye amadarubindi ahetse igikapu, bari kugana ahari imibare myinshi igiye itandukanye kandi iri mu mabara atandukanye, bakaba bari ahantu handikishijwe amagambo yo mu bihugu by'amahanga nk'ubushinwa.

Umukobwa ufite imisatsi miremire ucigatiye telefoni iri mu ibara ry'umutuku mu kiganza cy'iburyo akaba yambaye umupira w'umutuku ipantaro ndende ndetse n'inkweto ziganjemo amabara y'mweru ndetse harimo n'ay'umukara akaba ari gusohoka mu muryango wometseho ibyapa byinshi bitandukanye biriho n'andi mabendera menshi yo mu bihugu by'amahanga ndetse n'ibyamamaza ko hashobora kuhakorerwa serivisi za mtn.

Akazu gato gasizwe amabara y'umweru, umuhondo, ndetse n'ubururu, handitsweho amagambo yo mu kirimi cy'amahanga cy'icyongereza ndetse ku ruhande rw'akazu hari intebe ndetse n'ibinyabiziga.

Umugabo wicaye ku gatebe gakozwe mu mbaho kagufi yambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, yicaye kuruhande rw'icyapa cyerekana igura n'igurisha ry'amafaranga yo mu mahanga agiye atandukanye nk'amadolari, amafaranga akoreshwa muri canada ndetse n'andi menshi atandukanye.

Umugabo ufite imisatsi mikeya, wambaye umwambaro w'ishati y'ubururu ndetse harimo n'utundi tubara tw'umutuku. Akaba afite marikeri cyangwa se ikaramu yagenewe kwandikwa ku rubaho cyangwa se kuri taburo, akaba ari kwandikaho imibare yerekana igura n'igurisha ry'amafaranga yo mu bihugu by'amahanga, uyaguranye n'ayo mu Rwanda.

Intebe z'imisego ziherekezwa n'amezaza agera muri atatu akozwe mu mbaho, zateretswe cyangwag se zahagaritswe hejuru y'ibyatsi cyangwa se pasiparume, inyuma yazo hakaba hari igiti giteye kirekire, zikaba ari imeza cyangwa se intebe zishyirwa muri salo cyangwag se mu nzu y'uruganiriro.

Mariyoti hoteli, ikaba ari ahantu heza hari amafu kuko hateye ibiti bizana akayaga; hakaba hari ubusitani bwiza cyane bunogeye ijisho, buri muntu wese wifuza kuyiraramo ataha anyuzwe.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Intebe ikozwe mu rubaho ifite n'ameza yayo ikaba iri iruhande rw'igikuta kiri mu mabara y'umweru gishushanyijeho imitako yo mu Rwanda cyangwa se bakunze kwita ingabo.

Imitako ibajwe mu rubaho isize ibara ry'umweru ndetse n'indi ari umuhondo ujya kweruka ikaba ari imitako ihagaritswe ku rukuta rwera cyangwa se rw'umweru. Imitako ikaba ikunzwe gushyirwa muri salo cyangwa se mu biro.

Ikarita iri mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo ishushanyijeho inyubako ndende igeretse inshuro zigera muri enye, isize amarangi y'umuhondo ikaba ari iri ikarita yanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, yanditswe mu kirimi cy'ikinyamahanga cyangwa se icyongereza.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe w'umuzungu, uri ahakirirwa abakiriyaKu ruhande hari ifoto ya perezida wa repubulika y'u Rwanda, Paul Kagame.

Agapapuro kari mu mabara y'umukara, kanditsweho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo. Hakaba hashushanyijeho ibyo kurya, akaba ari agapapuro kanditsweho n'ikirimi kindimi z'amahanga, cy'Icyongereza, kerekana ibiryo n'ibiciro byabyo.

Inzu nshyashya igurishwa mu mujyi wa kigali mu gace ka kanombe ku mafaranga miliyoni mirongo icyenda n'imwe z'amanyarwanda, iyo nzu iri mu bwoko bwa cadasiteri isakajwe amabati ya shokora ndetse inzugi zayo zisa umukara ikaba iteye irangi ry'icyatsi, imbere y'iyo nzu hubatswe amapave.

Inyubako ishinzwe kwakira cyangwa se gucumbikira abantu ndetse no kubakira mu buryo bw'imirire, yubatse ari nini igeretse ifite inkuta zisize amabara y'umweru ndetse n'ay'umutuku, imbere yayo hakaba hateye utwatsi tugufiya ndetse n'ibiti byerera hasi, imbere yaho kandi hakaba hari n'ahandi hari imitaka mu gihe uwicaye adashobora gukubitwa n'izuba.

Inyubako iberamo ibikorwa byinshi bitandukanye, nko gutanga icumbi, gutanga ibyumba by'amakwe, ibyumba by'inama ndetse n'ibindi byumba byinshi byakira imihango itandukanye n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye, ikaba ari inyubako isize cyangwa ishushanyijeho imitako cyangwa se ingabo, imbere yayo hakaba hamanitse amabendera menshi y'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye byo mu mahanga.

Inyubako nini kandi igeretse isizwe amabara cg se amarangi yiganjemo amabara y'umuhondo, ikaba ari inyubako iberamo cyangwa se icumbikirwamo abakiriramo ndetse haberamo n'inama n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye, imbere yayo hakaba hubakiye amazi cyangwa se mu rurimi rw'amahanga bakunze kwita pisine.

Ameza maremare akozwe mu rubaho ndetse n'amaguru y'ibyuma yateretsweho uducupa twa'amazi hejuru kandi afite intebe ziri mu ibara ry'icyatsi, ari mu cyumba cy'inama imbere hari aho berekani amashusho se amagambo ari kuvugwaho.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara utarimo ikinyabiziga hafi yawo, ibinyabiziga ahubwo bikaba biri iruhande imbere y'inzu iri kwakaho amatara igeretse inshuro zigera muri enye, inyubako ikaba isize amarangi asa nk'umuhondo

Iki gikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ,iki gikoresho ahenshi kiba kiri mu nzu nini, inyubako nini cyane ku buryo ifashwe n'umuriro byakwifashishwa kugira ngo bayikumire. Iki gikoresho ni cyiza kuko kirinda abaturage ndetse n'ibikorwa remezo byabo.

Inyubako ifite umuryango mutoya ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi cyitwa radiyanti, hanze hakaba hari imitako ikozwe mu biti ndetse hakaba hatewemo n'ibimera, mo imbere mu nzu hakaba harimo intebe y'imisego ndetse n'ameza, hanze y'umuryango hakaba hari ikinyabiziga cy'amapine abiri cg se moto.

Icyumba cyubakishijwe amakaro hasi gifite igisenge cy'ibara ry'umweru hariho itara rinini; ku nkuta isizwe ibara ry'umweru ndetse hariho n'ibirahure; ku ruhande hari umugore wambaye imyenda y'imikara ufite imisatsi myinshi wicaye inyuma y'ameza maremare yanditsweho ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru.

Abantu benshi bari mu nzu cyangwa se mu cyumba gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, hari ameza atatu agiye yicarwaho n'abantu, amwe muri yo yicaweho n'abantu babiri bari kurebana, icyumba gisize amabara y'umweru ndetse harimo udushusho twa aliyanza cyangwa se icyapa.

abagabo batatu bicaye mu ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza ari mu ibara ry'umweru hateretse uducupa tw'amazi bicaye imbere y'ibyapa cyangwa se ibishusho byiganjemo amabara y'ubururu harimo amagambo yanditsweho umurongo n'utwapa twanditswe cyangwa se dushushanyije mu ishusho ry'umuhondo akaba ari ibyapa by'ubwishingizi bwitwa purayime muri abagabo bambaye amakositimu imyambaro ikunzwe kwambara n'abakora mu nzego zitandukanye zisaba umwuga

inzu yubatse mu buryo bw amagorofa. izamuye arenga ane ,y'uburuhukiro naho buherereye hagati y'andi mazu uramutse wifuza kuhagera.

Igipapuro cyangwa se ifishi, yanditswe mu magambo yiganjemo ay'umukara, ayo kuzuzamo, kandi yanditswe mu kirimi cyamahanga k'icyongereza, ruguru y'urupapuro cyangwa se hejuru yarwo hakaba hari ikirango ndetse n'amazina ya banki y'i Kigali.

Umugabo ufite imisatsi mikeya n'ubwanwa bukeya uri guseka, yambaye ishati y'amaboko maremare ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yicaye, imbere ye hakaba hari ameza ari mu ibara ry'umuhondo ndetse afite ibipapuro mu ntoki imbere hakaba hari na mudasobwa, akaba ari mu gashusho cyangwa se mu ifoto ishushanyijeho ikirango cya GT Bank, banki ikorera mu Rwanda ndetse handitsweho n'andi magambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'andi ari mu icunga rihishije.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo ndetse n'imibare byinshi cyane byanditswe mu ibara ry'umukara, hariho umurongo utukura, akaba yanditswe mu kirimi cy'amahanga cy'icyongereza.

Umugabo ufite umusatsi utari mwinshi cyane wambaye amadarubindi ishati ndetse na karuvati, aricaye imbere y'ameza y'urubaho iteretseho mudasobwa, ibipapuro, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Imbere ye hakaba hahagaze abantu babiri umugore ndetse n'umugabo bari kumwereka ibipapuro ndetse n'ibiri muri terefone.

Agapapuro k'ibara ry'icunga rihishije ndetse harimo n'andi mabara atandukanye nk'ay'umweru ndetse n'umuhondo kaba ari agapapuro kandiditsweho amagambo yiganjemo ay'umuhondo ndetse n'andi y'mweru ari mu kirimi cy'amahanga cy'icyongereza hakaba hariho umugore cyangwa se umukobwa ufite imisatsi myinshi wayizirikiye hejuru ku mutwe wambaye ikote ry'ubururu ipantaro, y'umweru ndetse n'inkweto ndende akaba ahagaze iruhande rw'imodoka y'ibara ry'iroza.

Abantu batari benshi bahuriye mu nyubako cyangwa se mu iduka cyangwa se mu isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye higanjemo imbuto nk'imineke, inanasi ndetse n'ibindi byinshi.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku, ubururu ndetse n'umweru, ipantaro y'umukara, inkweto z'umutuku, munsi ye afite indobo irimo amasambusa kandi akikijwe n'abagore bafite imisatsi myinshi bambaye amakanzu bashaka kumugurira.

Abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo, bari ahakorerwa ndetse n'ahacururizwa imyenda, udukapu, ibitenge, ndetse n'ibindi byinshi by'umuco nyarwanda.

Umugore wicaye wambaye agashati k'amaboko aciye k'ibara rya roza wambaye ijipo y'umweru irimo imirongo yicyatsi imanuka uteze igitambaro mu mutwe ari guseka inyuma ye hari ibiribwa nk'imbuto inyanya tungurusumu ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu benshi harimo umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara wicaye, ndetse n'undi mugore ufite imisatsi myinshi wambaye amadarubindi ndetse n'amaherena, wicaye, bari ahantu hamwe mu isoko cyangwa se mu iduka ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, nk'imbuto, nk'imineke ndetse n'ibindi biryo nk'imyumbati.

Aha ndahabona ibintu bigiye bitandukanye aho ndimo kubona abantu bagiye batandukanye, imodoka ndetse ndikubona moto zigiye zitandukanye, kandi nkaba ndimo ndabona na rifani zigiye zitandukanye, ndetse kandi nkaba ndimo kuhabona n'umuhanda wa kaburimbo.

Ahacururizwa cyangwa se ahatunganyirizwa imyambaro, imitako, uduseke, amasakoshi, ndetse n'ibindi bitandukanye bishushanyijeho cyangwa se bigenga umuco nyarwanda.

Umugore cyangwa se umucuruzi w'imyembe, avoka ndetse n'izindi mbuto zitandukanye; ari gutanga serivisi aseka ku mukiriya wiwe w'umukobwa; wambaye agapira k'iroza n'imisatsi miremire ndetse n'ipantaro n'agapfukamunwa.

Abantu benshi biganjemo abagore, bari aho bagurishiriza cyangwa se mu isoko bacururizamo ibyokurya bigiye bitandukanye nk'inyanya, intoryi ndetse n'ibindi birungo byo guhumuza cyangwa se byo kuryoshya ibindi biryo.

Abagore babiri bahagaze mu isoko cyangwa se mu iduka ricuruza ibiribwa bitandukanye, byibanzemo imbuto nk'inanasi imineke amapome amarogi amavoka ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Abantu bagera kuri batanu harimo, umugore wambaye umwenda w'umweru ndetse n'ingutiya y'ubururu, bane muri bo bakaba bambaye imyambaro y'ibara ry'umuhondo ndetse harimo n'amabara y'umukara. Ikaba ari imyambaro yambarwa n'abakozi ba emutiyeni. Bakaba bari ahantu hari ikirango cya emutiyeni, ndetse n'ibyapa bikiranga.

Umuntu ucigatiye aga telefone gatoya mu kiganza cy'iburyo nk'imbere akaba ari kureba mu ishusho ry'ubururu handitsweho amagambo y'umweru, ikaba ari telefone iri imbere y'icyapa cg se ya kapa kari mu mabara y'umuhondo handitsweho amagambo y'umukara ka emutiyene kagaragaza uburyo umuntu ashobora kwishyura akoresheje telefoni.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, ahagaze ku kazu k'amabara y'umuhondo ndetse kandiditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, akaba ari akazu kagenewe abakozi bakureramo ba emutiyende, bashinzwe gutanga serivisi ku bakiriya hirya no hino mu gihugu.

Agapapuro k'ibara ry'umuhondo kandikishijwemo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, kerekana uburyo bwo kwishyura amafaranga uyanyujije kuri Emutiyene mu momopeyi, bifasha umucuruzi cyangwa se umukiriya kugira ngo abashe gukorana ubucuruzi.

Akazu gatoya k'umuhondo cyangwa se akazu ka emutiyene mu imbere yako harimo abakozi babiri bari gutanga serivisi ku bakiriya babo batatu, babiri muri bo ni abagore ndetse umwe muri bo ni mugabo.

Abagabo babiri bari kurebana bamwe umwe muri bo wambaye umupira w'umukara ipantaro ufite igare undi afite telefone mu kiganza cy'iburyo yambaye umupira w'umuhondo afite umusatsi muke, bahagaze imbere y'icyapa cyangwa se igitambaro kinini kiri mu mabara y'umuhondo cyandikishijwe amagambo ndetse n'imibare mu ibara ry'umukara akaba ari icyapa cyerekana cyangwa se kimenyesha ukuntu bashobora kwishyura amafaranga bakoresheje telefone.

Amazu abiri matoya imwe isize amabara y’umuhondo, indi isize amabara y’umutuku, iyamabara y’umutuku yagenewe abakozi ba eyateri, iy'amabara y’umuhondo yagenewe abakozi ba emutiyeni.

Abagabo batatu ndetse n'abagore babiri, bahagaze imbere y'akazu gatoya kari mu mabara y'umuhondo, cyangwa se akazu kagenewe abakozi ba emutiyene, imbere hakaba hari umwe mu bakozi uri kubaha serivisi zigiye zitandukanye.

Abantu dukunda inyubako zitandukanye akenshi inyubako igizwe n'amabara menshi irakundwa cyane uzasanga hari izifite amabara y'umutuku avanze n'umukara ndetse n'umweru uko niko ba nyirazo baba babihisemo.

Ni isoko ryiza hasi risashe amakaro hejuru hari parafo, mu rwego rwo kwirinda inyanyagira ry'ibicuruzwa bubatse akayetajeri ko mu biti ku buryo usanga buri gicuruzwa gipanze mu mwanya wacyo.

Umugabo wambaye ishati y'imirongo y'amabara menshi atandukanye n'ipantaro y'umukara, ahagaze iruhande rw'undi mugabo wunamye wambaye umupira w'umweru, amadarubindi ndetse n'ikora ry'umuhondo. Imbere y'umugabo wunamye afite ingofero ndetse n'imyambaro myinshi y'umuhondo ya MTN.

Agapapuro cyangwa se agashusho kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'utundi tubara tugiye turimo dutandukanye nk'icyatsi ndetse n'andi, akaba ari agapapuro kariho abantu benshi bagera muri barindwi harimo abagabo ndetse n'abagore hakaba hariho n'akandi gatebo kifashishwa mu guhaha amagambo akaba yanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi ari mu kirimi cy'amahanga cy'icyongereza.

Umukobwa cyangwa se umugore wambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'ipantaro, ufite imisatsi myinshi uri guseka, areba muri telefoni ye. Akaba afite utwuma mu matwi tw'ibara ry'umweru, ndetse akaba yicaye ku gitanda cyangwa se ku buriri, imbere ye hakaba hari agakapu k'umukara, kandiditsweho amagambo y'umweru.

Agapapuro ko mw'ibara ry'umweru cyangwa se kera, kanditsweho amagambo yiganjemo ay'umukara ndetse n'andi yo mu ibara ry'ubururu, ruguru yako hakaba hari agatebo kifashishwa guhaha, ndetse hakaba hariho n'isura y'umuntu usa nk'aho akora muri icyo kigo bari kwamamaza.

Abagore cyangwa se abakobwa babiri bafite imisatsi myinshi umwe muri bo washumikiye imisatsi inyuma wambaye umwambaro w'icyatsi wanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ya vuba vuba ahagaze iruhande rw'akanyabiziga ke kanditseho amagambo asa nk'ayanditse k'umwenda we w'inyuma akaba ari gushyikiriza undi mukobwa cyangwag se umugore uri guseka ibiribwa ndetse n'amavuta ari muri amvelope.

Ibinyabiziga by'amapine abiri cyangwa se moto itariho umugenzi cyangwa se umuyobozi, ku ruhande, inyuma ihetse udukapu tubiri turi mu mabara y'umutuku, ndetse akandi ku mabara y'umuhondo, utukapu tubafasha cyangwa se dufasha abayobozi b'ibinyabiziga kugeza ibiryo aho bigomba kugera bigifite umwimerere wabyo.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ingofero ku mutwe ishinzwe kurinda umutekano mugihe habaye impanuka, akaba afite agakarito k'umweru mu ntoki ze ariho ugakura mu gasanduku k'amabara y'icyatsi kanditsweho amagambo ndetse n'imibare mu mabara y'umweru.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo ari mu mabara atandukanye umutuku, umukara ndetse n'andi mabara y'ubwoko bwinshi hashushanyijweho ikinyabiziga kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'andi mavuta asigwa ku munwa y'abakobwa cyangwa se y'abagore.

Ameza ndetse n'intebe akozwe mu rubaho, ashinze iruhande rw'urukuta rurerure rwera cyangwa se rw'umweru, rutatseho imitako cyangwa se ibishushanyo bitandukanye, ku meza hari ivazi z'umutako udusahane ndetse n'itara riri hejuru ku rusenge.

Abantu babiri harimo umugabo wambaye umwambaro w'amaboko maremare w'umweru ndetse n'ipantaro n'inkweto z'umukara bari kumwe n'umugore wambaye ikanzu ufite imisatsi myinshi, umugabo ari kumwereka ahagana ku gikoni cyo mu nzu hubatswe kandi hageretsweho ibiryo ndetse n'ibyo kunywa hejuru nyuma yaho hakaba hari udufoto ndetse n'imitako.

Abantu babiri harimo umugore ndetse n'umugabo inyuma yabo hari intebe ndetse n'ameza imbere yabo hari ibyatsi ndetse na pisine bogeramo .

Inzu y'ubwisungane gusa hariho abakozi ba emutiyene n'abakiriya baje kugana ikigo cy'ubwisungane cyitwa buritamu, kiri mu nyubako isa n'iyubakishije amabati n'ibirahuri.

Icyumba kirimo igitanda ndetse na matera amarido mu idirishya kandi gisizwe ibara ry'umweru icyumba kiri ku isoko mu mujyi wa Kacyiru.

Imbuga nini iteyemo ibyatsi ndetse n'ibiti bitandukanye, ku ruhande hari imbaho cyangwa se ibiti byarangije gukoreshwa byegamiye urukuta rusize amabara atandukanye harimo umweru ubururu ndetse n'umukara.

Inyubako isize amabara y'icyatsi ndetse n'umweru isakajwe amabati atukura, akaba ari inyubako izengurutswe n'utwuma cyangwa se senyenge, inyubako ikaba iteretse hirya y'umuhanda cyangwa se yubatse munsi y'umuhanda w'igitaka.

Isoko cyangwa se iduka ricuruzwamo ibintu byinshi byari bitandukanye nk'ibyo kurya, imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye, imbere yabyo hakaba hari utumeza tw'urubaho turirimo ibara ry'umutuku, hakaba hari abakozi baryo bambaye imipira y'ubururu ndetse n'abandi baguzi benshi bagiye batandukanye.

Abantu benshi bahurijwe n'ahantu hamwe mu nyubako cyangwa se mu iduka bacururizamo, bamurikiramo, cyangwa se bakoreramo ibitambaro ndetse n'ibitenge n'indi myenda myinshi itandukanye, harimo ibitambaro bakoresha badoda indi myenda y'ubundi bwoko ndetse n'ibitenge.

Umugore wambaye isengeri y'umutuku, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara ufite imisatsi miremire wayishumikiye inyuma, acigatiye agatebo mu kuboko kw'ibumoso kari kumufasha gushyiramo ibyo ashaka guhaha. Akaba ahagaze hagati mu iduka cyangwa se mu isoko, ricururizwamo ibinyobwa, ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye.

Tagisi vuwatire yo mu bwoko bwa yego kabusi ushobora guhamagara iriya nimero icyenda rimwe icyenda rimwe ikaza ikagutwara aho waba uherereye hose kandi batanga serivisi nziza n'icyombaziho .

Umukobwa cyangwa se umugore ufite imisatsi miremire wayishumikiye inyuma, yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, acigatiye agakapu mu kiganza cy'iburyo ari bwifashishe ari guhaha ibitunguru ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Umugore wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, ikanzu y'ubururu ufite imisatsi miremire uri guseka yicaye, imbere y'ameza afite amabara y'icyatsi ndetse n'umukara inyuma ye hari ibicuruzwa bye.

Abantu bane, harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, bambaye amakositimu, imyambaro ikunzwe kwambara n'abakora mu nzego zitandukanye, ba kinyamyuga. Bakaba bicaye mu ntebe, iruhande rwabo hakaba ari utumeza turi mu mabara y'uburur, turiho ikirango cya banki y'i Kigali.

Abantu benshi harimo abagore benshi, abana ndetse n'umugabo umwe, hari n'undi mugore uhetse umwana uhagaze bakaba bicaye mu ntebe y'urubaho bafite udukayi mu ntoki zabo, bakaba bicaye inyuma y'urukuta rwubatswe n'amatafari ahiye ndetse hari n'utundi dupapuro turiho amatangazo cyangwa se tubamenyesha ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Umugabo ufite imisatsi mikeya wambaye ikoti rya kositimu ry'ubururu, ishati y'umweru, karavate ndetse n'ipantaro y'umukara, acigatiye icyuma ndangururamajwi mu kiganza cy'iburyo, ahagaze imbere y'abantu ari kubasobanurira cyangwa se kubamenyesha.

Umuhanda w'umukara cyangwa se wa kaburimbo uri gukoreshwa n'ibinyabiziga biri mu cyerekezo kizamuka ibyinshi byiganjemo ibara ry'umweru, hirya yaho hakaba hari inyubako ndende zigera muri ebyiriy'umweru ndetse n'indi yiganjemo ibirahure byinshi, mu muhanda rwagati hari ibiti ndetse n'amatara agabanyamo umuhanda kabiri mu byerekezo bibiri bitandukanye.

Abantu benshi biganjemo abagore bahagaze imbere yinyubako imbere yabo gato hari abagabo bacigatiye agapapuro kari mu mumabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara handitseho mituweri bibiri na makumyabiri na kane kugeza bibiri na makumyabiri na gatanu.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Agapapuro cyangwa se agashusho kari mu ibara ry'umweru ndetse n'iy'ubururu handitsweho amagambo yiganjemo ay'ibara ry'umweru, ndetse harimo n'ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kaba ari agapapuro kaninitsweho'amagambo yo mu kinrimi cy'ikinyarwanda kerekana uko umuntu ashobora kwizigamira akoresheje telefone muri ejo heza.

Abantu bagera muri bane, harimo babiri b'abagabo bambaye amakositimu ndetse n'abakaruvati, bakaba bari kuva ahari abagore babiri bahagaze, bambaye amashati y'ubururu ndetse bahagaze nyuma y'ameza ariho mudasobwa, inyuma yabo hakaba hari ishusho cyangwa se ifoto ya perezida Paul Kagame, umuyobozi w'igihugu cy'Urwanda.

Umugabo udafite umusatsi ariko ufite ubwanwa, wambaye ikositimu y'ubururu ndetse n'ishati ari gushyikiriza impamba cyangwa se agakapu karimo, ibara ry'umweru ku mukobwa ufite imisatsi myinshi wayizirikiye inyuma uri guseka wambaye imyambaro y'umukara, ahagaze imbere y'igishushanyo cyangwa se igitambaro cy'ubururu kiriho ibirango bya RSSB.

Umwana wambaye ishati ndetse n'ikabutura wicaye mu ntebe y'igiti ari kwerekana ikarita yiwe y'umunyamuryango w'ubwishingizi mu kwivuza, ikarita ye ikaba iriho ikirangantego cya asa ese esibi.

Umusore cyangwa se umuhungu wambaye imyambaro y'umukara ufite imisatsi wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, afite agatebo ari kugenda acunga kari buze kumufasha guhaha. Ari mu iduka bacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako cyangwa se iduka ricururizwamo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, hakaba hahuriwemo n'abantu batari benshi bahujwe n'igikorwa cyo guhaha cyangwa se kugura ibikoresho cyangwa se ibiribwa bakeneye.

Umuntu wambaye akantu umutwe gafata imisatsi wambaye umupira w'icyatsi kibisi handitsweho n'amagambo arimo ibara ry'umweru mu mugongo ndetse n'ipantaro y'ubururu, ahagaze cyangwa se yunamiye mu kabati karimo ibiribwa byinshi bitandukanye, byiganjemo imbuto, imboga, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu benshi bari mu rwego rutandukanye bari mu nyubako, cyangwa se iduka ricururizwamo ibikoresho runaka cyangwa se ibiribwa, umwe muri bo akaba ari gucunga agatebo ari kwifashisha ahaha, undi akaba ari umugore uri hirya wambaye imyenda y' imikara ufite imisatsi myinshi.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Umukobwa wambaye ipantaro n'umupira w'amaboko maremare, uri gutambuka, uhagaze mu iduka cyangwa se mu nyubako icururizwamo ibiribwa byinshi bitandukanye ndetse n'ibinyobwa. Bimwe mu binyobwa ahagaze iruhande ni amata yo mu dupapuro, imitobe yo mu ducupa, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.